Muri bale ahantu umuntu ashobora gusohokera akaganira n'inshuti ze, bakungurana ibitekerezo. Agafata icyo kurya, agafata icyo kunywa, ndetse akajyayo bakabyina bakishimisha, bikabafasha kugabanya siteresi.

Muri bare, ahantu ushobora gusohokana n'inshuti yawe mukaganira, mugafata icyo kunywa, mukishima, mukanezererwa ndetse mukaganira, mukungurana ibitekerezo, mugashira urukumbuzi.

Muri bare aho abantu basohokera, ahantu runaka cyangwa se itsinda runaka, bagiye kuganira, bagasangira, bakungurana ibitekerezo. Mushobora no kuhakorera inama mukahasanga ibinyobwa bitandukanye. Yaba amafanta, amaji, amazi ndetse n'inzoga zitandukanye.

Mu kabyiniro cyangwa se muri bare aho abantu bajya bakabyina, bakanywa, bakishimisha, bakagabanya amasiterese cyane cyane ibi bintu iyo umuntu abikoze yananiwe mu mutwe araruhuka ndetse akishima.

Mu isoko aho bacururiza ibintu bitandukanye harimo imyenda amashuka, amasogisi, inkweto, amatelefone, ibitambaro amakuvureri, ibirangiti n'ibindi.

Kuri saro aho abantu bajya kwitunganyiriza imisatsi, ndetse n'inzara yaba gusuka, kwiyogoshesha, gusokoresha ndetse n'ibindi bikorwa byo gutunganya imibiri yacu.

Ku kabutike hacururizwa ibikoresho bitandukanye bya elegitoronike harimo: amatelefoni, amapasi y'umuriro, amaradiyo, amamashini, amateleviziyo, amaburutufu, amayekuteri ndetse n'ibindi bikoresho bya elegitoronike.

Hoteli y'abantu batanga serivisi zitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, amacumbi ku muntu wakoze urugendo bakabura aho acumbika, bacumbikira abantu bagize nk'amahugurwa runaka, batayakoreye hafi y'iwabo ndetse n'abandi.

Hoteri aho umuntu ajya gufatira ibintu bitandukanye yaba ibyo kunywa harimo inzoga, harimo amaji, amazi, ibyo kurya cyangwa se hakaberamo nk'ibirori bitandukanye nk'ubukwe, inama n'ibindi.

Butike ahacururizwa ibikoresho bitandukanye yaba ibiribwa yaba ibinyobwa. Mu binyobwa harimo amazi asukuye, mu biribwa harimo amazi yo guteka, ibikoresho by'isuku ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Ku kabutike, ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiribwa, ibinyobwa, nk'ibisheke, ibikoresho dukoresha ducana, nk'amakara . Mu bihingwa harimo ibihaza, ibirayi, igitoki, imboga n'ibindi.

Muri butike ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, harimo amasahani, amafoke, amasaha, amarinete, ndetse n'imipira yo gukina, igihe umuntu ari muri siporo.

Muri butike ahantu hagurishirizwa ibikoresho bitandukanye yaba ibya elegitoronike, ibikapu, mu bya elegitoronike harimo amasaha, amatelefone, amapase y'umuriro, amayekuteri, amamashini, televiziyo n'ibindi.

Mu masaro ahantu hakoreshwa ibikoresho bitandukanye harimo amadekorasiyo, indabo, ahantu bambika abageni, haba imyenda itandukanye, ahantu basokoreza, aho bacira inzara, aho basukira n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ku kabutike ahantu haba ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho dukoresha mu rugo nk'amase, amasafuriya, amadobo, amajerekani n'ibindi bikoresho. Ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi dukoresha mu gucana nk'amagaze ndetse n'amakara.

Amapotiki ahaho ibyapa biyobora abagenzi bitewe n'ibyo ukeneye ukamenya, icyapa kikuyobora aho bakora ibyo bikoresho cyangwa, se aho bakoresha ibyo bikoresho ushaka kugura.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye by'ibiryamirwa harimo: amamatera y'ubwoko bwose, amashuka ndetse n'amakuvurori yo kwiyorosa kugira ngo umuntu yirinde imbeho.

Akabotike ahantu hacuruza ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amatelefoni, amaradiyo, mashine televiziyo compiyuta amaburutufu n'ibindi bikoresho bitandukanye bya elegitoronike.

Kuri banki aho abaturage bajya kubitsa amafaranga yabo, kugira ngo batayabika mu rugo abajura bakazayabiba, hanyuma igihe bayakenereye bagiye kuyakemuza ibibazo runaka, bakazajya kuyafata bakabikemura mu buryo bwihuse.

Ku kabutike ahantu bacuruza ibikoresho bitandukanye, yaba iby'ubwubatsi harimo amasima amakaro, amabati, amatafari, amakaro n'ibindi.

Arimantasiyo ahantu haboneka ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye mu biribwa harimo: amandazi amakeke, imineke mu binyobwa harimo: amata, igikoma, icyayi amajuyisi amazi ndetse n'ibindi.

Butike, ahantu harimo hari resitora, aho ujya gufatira ibyo kurya, icyayi , amata, ahantu habera ibirori bitandukanye ndetse n'inama zitandukanye.

Moteri, ahantu abantu bajya gufatira icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, cyangwa se bagasohokanira n'inshuti zabo, cyangwa se baba bari ku urugendo wabuze aho urara, ukajyayo ukakacumbi bakagucumbikira.

Ku kabutike ahantu ushobora gusanga ibintu bitandukanye. Yaba ibiribwa, ibinyobwa harimo nk'amaji, amata, amafanta, amayawurute ndetse mu biribwa ushobora gusangamo amandazi, imineke ndetse n'ibindi biribwa dukoresha mu rugo.

Arimantasiyo ahantu umuntu ajya kugurira ibintu byo kunywa harimo amandazi, imigati, icyayi, amata ,igikoma, amaji, umutobe, ndetse n'ibindi biribwa umuntu yafata ari ku rugendo.

Muri arimantasiyo ahantu haboneka ibinyobwa cyangwa se ibiribwa bitandukanye. Mu binyobwa harimo: Amata, amazi, umutobe, icyayi, igikoma harimo n'ibiribwa nka keke, amandazi, imineke n'ibindi.

Ku ka butike ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye, harimo amagare, ibikoresho by'amagare, aho bakorera amagare yangiritse, ndetse n'ibindi byose wakenera gukoresha ku igare ryawe bakabigufasha.

Muri bare ahantu abantu bajya gufata ibintu bitandukanye yaba ibiribwa harimo ibyo amaburushete, ibinyobwa yaba ibisindisha, ibidasindisha, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kuri butike ahantu bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi ahitwa kenkayori. Habamo amasima, amabati, imisumari, ndetse n'amakaro akoreshwa mu bwubatsi.

Kuko botike ahantu bacuruza ibiribwa bitandukanye cyangwa se ibinyobwa, imyambaro, ibikoresho bitandukanye yaba iby'isuku. Ibyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse naho dugura serivisi zitandukanye nk'izo kubitsa, kubikuza amafaranga kuri mobayiro mani n'ibindi.

Muri bare ahacururizwa ibintu bitandukanye, aho umuntu ashobora kujya akabyina akagabanya siteresi, akinezeza, akaganira n'inshuti ze yazisohokanye ndetse akanahatemberera kugira ngo asabane n'abandi.

Ku cyicaro cya emutiyene， ahantu batanga serivisi za emutiyene，mu kugura simukadi， kubitsa amafaranga， koherereza umuntu amafaranga， ndetse n'izindi serivisi za emutiyene.

Kuri Butike, amasitoke ,ahantu haba habitse ibikoresho bitandukanye cyane cyane by'ikoranabuhanga, harimo: amatara, amaradiyo, amatelefone, amateleviziyo ndetse n'amapasi y'umuriro.

Ku kabutike ahacuruzwa ibikoresho bitandukanye, yaba ibikoresho by'isuku harimo isabune, omo, amasume, amapapiyijiyenike ndetse n'ibindi. Harimo ibiribwa, harimo kawunga, umuceri, isukari, amavuta yo kurya ndetse na buleba.

Ku kabutike ahantu haba ibikoresho bitandukanye harimo: ibiribwa nk'imboga ,ndetse kawunga, umuceri, ibitoki ,haboneka nanone ibikoresho byo mu rugo yaba amasahane ,amasafuriya, ibikombe, ibicanwa ndetse nka gaze ,amakara n'ibindi.

Ku kabotike aho bacuruza ibintu bitandukanye，harimo imyenda， inkweto， amamashini，amaterefone， ibibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Akabotiki ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye yaba imyambaro ibikoresho byo murugo ibiribwa, ibinyobwa , ibikoresho by'isuku n'ibindi...

Ku kabutike ahantu bakora ibikoresho bya elegitoronike ndetse bakabigura. Harimo amasharijeri, amaradiyo, amatelefone ama kompiyuta, imashini zogosha ndetse n'ibindi.

Kuri alimantasi ahantu haboneka ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Mu binyobwa harimo yawurute, amata, igikoma, icayi, ndetse nanone mu biribwa harimo amandazi, imineke amakeke n'ibindi.

Ku kabutike ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye harimo ibiribwa. Mu biribwa harimo nk'umuceri, akawunga ndetse harimo n'ibikoresho dukoresha nko mu rugo. Amasafuriya, amabasi harimo ndetse n'ibikoresho mu bicanwa harimo nk'amagaze, amakara n'ibindi.

Muri bare ahantu haboneka ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, cyangwa se na none tukahita mu kabyiniro, aho abantu bajya bagiye kubyina ba bakagabanya siteresi ndetse bakishimana n'inshuti zabo.

Muri kenkayori ahantu haba ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, harimo amabati, insinga, amatibe, amarakerete, ibiroso n'ibindi.

Mu kabutike ahantu dusanga ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa, mu biribwa harimo kabunga umuceri n'imboga ndetse n'ibindi, ndetse harimo n'ibicanwa mu bicanwa harimo amagaze, amakara ndetse n'ibindi bikoreshwa mu gucana.

Kukabutike ahantu bacuruza ibintu bitandukanye. Ahantu habamo ibikoresho by'isuku nk'amasabune impapuro dukoresha muri tuwalete, twita papiyijiyenike. Ibiribwa harimo umuceri, kawunga, umunyu ndetse n'ibindi.

Sako aho umuntu agenda akabitsa amafaranga ye ndetse akazajya no kuyabikuza mu gihe ayakeneye yifashishwa cyane mu kwirinda ko abajura baza bazamurwagakwiba amafara nga mu gihe ujyayo ukayabitsa ukazajya kuyafasha ngo yafa igihewe zabo ya akeneye kuyakoresha.

Tesitobale ahantu abantu bajya kwiyakirira, gufata icyo kunywa, icyo kurya, ndetse haba n'amacumbi, iyo wagiye ku rugendo udafite ahantu ho kurara, ushobora kujyayo bakagucumbikira, ejo ukazakomeza urugendo.

Butiki muri kenkayori ahacururizwa ibicuruzwa by'ubwubatsi, harimo amakaro y'ubwoko butandukanye, imisumari, inzugi, amadirishya ibirahure amabati n'ibindi.

Muri butike aho bacuruza ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye harimo akawunga, umuceri ndetse n'ibindi bikoresho harimo amasafuriya, amasahane, ibikombe, amayeswime ndetse n'imishwari.

Ku ka butike ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho by'isuku, nk'amasabune, Omo ,ibiribwa harimo: akawunga ,umuceri ,mavuta yo guteka bureba ndetse hakabamo n'ibikoresho bitandukanye nk'imyenda n'ibindi.

Muri butike y'ahantu dusanga ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa nk'amagi. Amagi dukunda kuyashyira ku matureyi kugira ngo ataza kumeneka. Amatureyi atwara amagi neza cyane.

Kuri botike, ahantu bacururiza ibintu bitandukanye, ndetse haba n'abadozi badoda imyambaro, ibikapu, badoda inkweto, ndetse bakora n'ibindi bikoresho bitandukanye bijyanye n'imyambarire.

Akabutike ahantu bacuruza ibikoresho bitandukanye by'umuziki amapiyano, amabateri, amagitari, amasendari n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu muziki.

Muri kenkayori ,ahantu haba ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi ,harimo: ibirahure ,amakaro ,amabati ,imisumari ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi.

Kuka butike ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye nk'amatelefoni, amaradiyo, amateleviziyo ama n'ibindi bikoresho bitandukanye iyo ukeneye serivisi zitandukanye zirimo telefoni, gukoresha telefone yapfuye barabigufasha.

Butike, ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye yaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'ibicanwa, ndetse n'imyambaro dukoresha, ndetse n'ubundi buryo bwose twakeneramo ibikoresho twabisanga kuri butike.

Ku kabutike ahantu bacuruza ibikoresho bitandukanye birimo:imyambaro, imyambaro, amarido, ibikoresho bitandukanye birimo:amasafuriya, amabase, ibikapu, amateremusi, ibisorori, amagurude, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Urusengero rufasha abakristo batari abakristo gatolika, ariko basenga ku cyumweru mu guterana, bakizeza ,bagasenga Imana, ndetse bakanaramya Imana.

Muri sitade ahantu habera ibikorwa bitandukanye harimo: nk'amatora ,ibirori runaka, inama z'abaturage rusange, inama z'abayobozi ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro.

Kuri hoteli aho abantu bashobora kubona serivisi zitandukanye. Ukeneye icumbi, ukeneye icyo kunywa, ukeneye icyo kurya, ukeneye ibyumba byo gukoreramo inama, ukeneye gukorerayo ubukwe, ukeneye kwifotorezayo, ubona ibyo ubwo bufasha.

Muri jaride ahantu habera ibikorwa bitandukanye aho abantu bajya kwifotoreza, aho abantu basohokera, bagafata akayaga, bakishimira indabyo ndetse n'ahantu hajya habera ibikorwa bitandukanye nk'ubukwe.

Butike ahantu haboneka ibintu bitandukanye nk'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa byifashishwa n'abagenzi cyangwa se abandi bantu bahaturiye.

Hoteri cyangwa se moteri aho ushobora gusohokana n'inshuti zawe mugasangira mugasabana, hashobora kubera nk'ibikorwa by'ubukwe, hashobora kubera inama cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye.

Moteri cyangwa se bare aho umuntu ashobora, gufatira icyo kurya, icyo kunywa aho abantu bashobora gusohokera bakajya kurya ubuzima. Ndetse niba wagize n'urugendo ukabura aho urara, ushobora kujya gucumbikayo habayo n'amacumbi.

Hoteri cyangwa se moteri, ahantu ushobora gukura ibintu bitandukanye yaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse ushobora kuhacumbika mu gihe wagiye ku rugendo, ukabura aho ucumbika.

Ahantu habikwa ibyo kurya bitandukanye harimo: akawunga ndetse n'umuceri. Hashobora kuba ari aho babibika, mu rugo cyangwa se ari aho babicururiza, kugira ngo bifashe abantu kubibonera hafi bitabagoye, cyangwa se batagiye kure.

Mu gasoko ahantu hacururizwa imyenda itandukanye cyane cyane imyenda y'abanyeshuri. Iyo umunyeshuri agiye kujya ku ishuri, uragenda mu isoko ukamugurira imyenda y'ishuri bikoroheye, utarinze gutegereza ngo uzajye kuyidodesha ku mutayeri bigutinze.

Mu soko ahantu habamo ibicuruzwa bitandukanye, yaba imyambaro ibiribwa, ibinyobwa n'ibikoresho by'isuku, n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ibindi.

Insenda z'apiripiri zikunda kwifashishwa mu rugo aho abantu baziteka bakazirya cyangwa se zikajyanwa mu nganda hagakurwamo insenda zivuye mu nganda harimo nkakabanga ndetse n'izindida zituruka mu nganda.

Butique ahantu haboneka ibiribwa bitandukanye cyangwa se ibindi bikoresho bitandukanye. Harimo sositomate, amandazi, isukari, umuceri ibinyobwa n'ibindi bikoresho twifashisha mu rugo, nk'amasafuriya amabase, amajerekani n'ibindi.

Mu isoko ahantu hacururizwa imboga, imbuto ndetse n'ibindi. Mu mboga harimo puwavuro, epinari, dodo, puwaro. Nanone kandi hakabamo bwombo zifashishwa mu kugabanya ibinure mu mubiri w'umuntu.

Ni isoko ahantu bacururiza imyambaro itandukanye harimo: amasogisi, amajipo, amashati, amakanzu, amashuka amasaha ndetse n'udutambaro.

Mu isoko aho umuntu acururiza ibintu bitandukanye yaba imboga, imbuto n'ibindi biribwa bitandukanye. Mu mbuto harimo: imyembe, amaronji, pome, ibinyomoro, imboga, inyanya, powavuro, n'intoryi.

Imbabura yifashishwa mu guteka ushyizeho amakara, cyangwa se mu kotsa ibintu runaka by'ibiribwa nk'imyumbati ,amateke ,ibijumba n'ibindi biribwa bishobora kuribwa byokeje.

Mu kabutike cyangwa se alimantasiyo, ahantu haboneka ibinyobwa cyangwa se ibiribwa bitandukanye, harimo amaji, amazi, amata, amabiswi amandazi, icyayi, imigati n'ibindi nk'amayawurute.

mu isoko ahantu hacururizwa ibikoresho bikoze mu bumba harimo inkono amababura ibyombo n'ibindi bikoresho bikozwe mu ibumba.

Mu isoko ahacuruza ibikoresho bitandukanye cyane cyane inkweto, harimo inkweto z'abakobwa, inkweto z'abasore, izihagaze, izifunze, izifunguye, ndetse n'izindi zitandukanye.

Mu isoko ahantu haboneka inkweto ndetse n'imyenda, haboneka n'inkweto zitandukanye yab'amabodaboda, izifunze, amasabune y'isuku, sanitayiza, imifuka ndetse n'ibindi.

Ku mabutike ahantu haba ibikoresho bitandukanye yaba imyambaro ibikapu inkweto ibikoresho byo murugo harimo: amabase, amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa murugo.

Mu isoko ahacururizwa imyenda itandukanye amapantaro, amakote, amakabutura, imipira y'imbeho, amashati, ibitenge ndetse n'ibindi myambaro kugira ngo abantu biyambike birinde imbeho ndetse bafate n'imibiri yabo neza.

Isoko mu haba ibicuruzwa bitandukanye harimo imyambaro, ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho bikoreshwa mu rugo, ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, ndetse n'ibindi bikoresho bya elegitoronike.

Muri ateriye ahantu habera ubudozi yaba ubudozi bw'imyenda, ubudozi bw'imyambaro runaka harimo ibitenge ahantu hacururizwa mu mashini ibipesi bijya ku myenda, amatise adodeshwamo imyambaro itandukanye.

Mu isoko ahacuruzwa ibikoresho bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa. Mu biribwa harimo: imboga, n'imbuto. Mu mbuto harimo: inananasi, amarunji n'amatunda. Hagaturizwamo ,imyambaro, amajipo ,amakanzu, ndetse n'amasogisi.

Ibishyimbo by'imitonore, iyo ibishyimbo byatukuye, bihinze ariko bitaruma, byifashishwa mu buryo butandukanye, tukabiteka tukabonamo intungamubiri, zaba iz'ibyubaka umubiri.

Mu isoko ahacururizwa ibikoresho bitandukanye harimo utu etajeri tubikwaho ibiribwa cyangwa se ibikoresho harimo amabase, indobo, amasafuriya n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo.

Mu isoko: Ahantu haba ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda, imikweto, ibiribwa, ibinyobwa, amakanzu, amajipo, ibikapu, indabo, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa muri dekorasiyo.

Mu isoko, aho abantu bahurira, bajyanye ibiribwa bitandukanye, yaba abagiye gucuruza imbuto, abagiye gucuruza imboga, abagiye gucuruza ibindi biribwa, abagiye gucuruza amakara, ndetse n'abagiye guhaha.

Mashini cyangwa se compiyuta zifashishwa mu bintu bitandukanye, nko kuzigiraho mu banyeshuri biga muri kaminuza, kuzireberaho ubutumwa butandukanye, ndetse no kuzikoreraho serivisi zitandukanye z'irembo.

Mu gasoko ahantu hacururizwa, ibikoresho bitandukanye, harimo ibikapu, amasafuriya, indobo, amabase, amasume . Ibikoresho by'isuku bitandukanye, harimo pampegise, cotegisi, impapuro z'isuku, n'ibindi.

Mu isoko ahantu haba ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, harimo ibitoki, amateke, ibishyimbo, ibigori, amasaka, imyumbati, ibijumba, inyanya ndetse n'ibindi byifashishwa mu mibereho yacu ya buri munsi.

Mu isoko ahacururizwa imbuto zitandukanye harimo avoka, amatunda, ibinyomoro, imineke, imyembe, ndetse n'ibindi bihingwa by'imbuto.

Mu isoko ahantu hako haboneka imyenda, ibikapu, amamatera, amashuka, amapantaro, imipira y'imbeho, amajipo, amakanzu ndetse n'indi myenda itandukanye, kugira ngo twambare turinde imibiri yacu.

Mu gasoko ahantu bacururiza ibiribwa bitandukanye harimo; imboga nka dodo, isombe, karoti, intoryi harimo imbuto nka pavuro n'ibindi.

Imbaburara zikoze mu ibumba ndetse zikoze no mu byuma zifashishwa mu gucanwa, aho zishyirwaho amakara, hanyuma bikagabanya imyotsi ituma abantu batarwara indwara z'ibihaha.

Ubuto, amavuta y'ubuto y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu guteka, amavuta afasha ibyo kurya kwiyongeramo ibinyamavuta bifasha umuntu mu mubiri we, cyane cyane iyo atetse ibyo kurya birimo nk'imboga kugira ngo zibashe gushya neza.

Mu isoko ahantu bacururiza ibintu bitandukanye bijyanye n'imyambaro, udukapu, amakoti, amapantaro, amajipo, ndetse n'inkweto byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu gasoko ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye dukeneye mu buzima bwa buri munsi, harimo inkweto, imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu soko ahantu habaga ibicuruzwa bitandukanye harimo: imboga, imbuto, mu mboga harimo intoryi, mu mbuto harimo: amapapayi, amatunda, ibinyomoro ndetse n'imyembe.

Imyeyo y'ibiti ikunda gukoreshwa iyo umuntu arimo gukora amasuku. Ari nko gukubura yaba hanze, gukura mu mihanda, gukubura mu nzu zimwe na zimwe kugira, ngo twirinde indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, harimo amavunja ndetse n'imbaragasa.

Mu isoko hacururizwa ibintu bitandukanye, birimo ibiribwa nk'inyanya, karoti, povuro, amamesa, ibitunguru, amavuta yo guteka, kokombure, amatunda, pavuro, karoti, n'ibindi.